Ikigo cy'amashuri kiri ahantu heza gifite jaride, gifite n'ikibuga abanyeshuri bakiniramo muri jaride harimo igiti cya avoka kikizamuka hakabamo n'ikindi giti cy'amashami.

Inzu igaragara nk'iy'ubucuruzi. Igaragaramo intebe nyinshi cyane zitondetse ndetse nabi. Hirya hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru.

Ahantu bavurira abantu barwaye ni henshi kandi hadufasha gutuma tubona serivise zituma dukira kandi neza.

Iyi ni inzu ikorerwamo amafoto, amavidewo, ndetse n'indirimbo, kuko harimo abantu bafite amakamera yabugenewe, ndetse n'amakompiyuta yabugenewe.

Abantu bari kudoda ibitenge, bafite imashini z'ikoranabuhanga, kandi zikora zikadoda neza cyane, kuko aribyo bibafasha kubona n'amafaranga.

Inzu igaragaramo amamashini adoda menshi arimo. Harimo n'myenda n'ibikapu, hakaba harimo n'ikibaho bashobora kwandikaho ibyo bize.

Ubwubatsi bugezweho ntiwabukora udafite abagufasha, kugira ngo ubwo bwubatsi bubeho ari bwiza. Ushaka umwenjeniyeri wabugenewe akabigukorera cyane, akagukorera ibyo wifuza.

Abaturage bakunda amasomo menshi, iyo babonye abana babo biga neza kandi bishimye, bibafasha kugira umwete wo gukora cyane ngo bazabagurire amamashini.

Abanyeshuri bakunda imyuga kugira ngo bazabone icyo bakora mu gihe cyabo, bagatangira kubyiga hakiri kare cyane cyane nko kubigira umwuga wa nyawo.

Ishuri ririmo ibintu byinshi cyane ririmo amamashini , rikabamo ububati, ririmo n'abantu bayakoresha , harimo na porojegiteri abantu bakoresha.

Abanyeshuri barishimye cyane kuko babonye amafunguro bahawe n'abayobozi babo, bari no kubasangiza kugira ngo babatere akanyabugabo ko kurya bishimye cyane.

Ikoranabuhanga ryabaye ryinshi cyane. Iyo ufashe umwana ukamwigisha umwuga, akura abizi neza kandi bikamugirira akamaro ko gutuma abona ibyo yifuza kugeraho.

Umugore ugaragaza ubushake bw'umurimo ari gukora inkweto, ari kuzikora ari kumwe n'abandi bagenzi be bari bahari b'abagabo, kandi afite umuhate wo gukora kugira ngo yiteze imbere.

Aba banyeshuri bakurikiye amasomo mwarimu ari kubaha, akayabaha bamukurikiye neza kandi bishimye bari kureba ibyo abategeka.

Abantu babiri bagaragara umwe w'umukobwa n'undi w'umuhungu, bafite imashini zikurura amashusho kandi bazikoresha bashakisha amashusho mu kirere.